Umuntu w'umugabo uhetse igikoresho, gikoreshwa batera umuti wica udukoko ,kugira ngo tutangiza imyaka y'abaturage bakaba bahomba.

Umuntu wambaye imyenda y'ubwirinzi, irimo amadarubindi, agapfukamunwa, ingofero, uturindantoki, ufite igikoresho mu mugongo kizwi nk'impombo ikoreshwa mu gutera imiti yica udukoko.

Umuntu ahahagaze mu murima, uhinzemo ibigori, hakurya ye hari ikiyaga, ufite mu mugongo igikoresho kizwi nk'ipomba ikoreshwa batera umuti wica udukoko kugira ngo umuhinzi atazahomba.

Umuntu wambaye igisarubeti cy'umweru wambaye n'uturindantoki, ufite ipombo ku rutugu uri gutera umuti wica udukoko ku bimera byameze kugira ngo ibyo bimera bitazapfa bikaba byateza umuhinzi igihombo.

Ibicupa bipfundikiye birimo umuti uterwa imyaka kugira ngo wice udukoko twona tukangiza imyaka y'abahinzi, bikaba byabatera n'ibihombo.

Umuhinzi w'umugabo uhagaze mu bihingwa by'umuceri ufite igikoresho mu mugongo kifashishwa mu gutera umuti wica udukoko kugira ngo tutazamwononera tukangiza imyaka y'iwe.

Umuhinzi uhagaze mu bihingwa, afite igikoresho gikoreshwa batera umuti wica udukoko kugira ngo tutangiza imyaka y'abaturage, bakaba bagwa mu bihombo.

Umuntu wambaye ibikoresho by'ubwirinzi birimo masike, uturindantoki ufite ipombo uri gutera umuti ku bihingwa kugirango udukoko tutabyangiza mu murima.

Umugabo wambaye agapfukamunwa, wambaye n'isarubeti, uhetse igomba ikoreshwa batera umuti wica udukoko, uri gutera uwo muti ku bigori kugira ngo bibashe gukura neza, udukoko tutabyangije.

Umuhinzi uhagaze mu bihingwa bihinze ahantu hagari, ufite igikoresho mu mugongo kizwi nk'ipombo ikoreshwa batera umuti ku bimera, kugira ngo udukoko tutabyangiza.

Umuntu uhagaze mu bihingwa bihinze ahantu hagari ,ufite ipombo ku rutugu ikoreshwa atera umuti wica udukoko, kugira ngo tutangiza imyaka abaturage bakaba bahoma.

Umuhinzi w'umugabo wihangiye umwuga w'ubworozi bwo mu mazi bizwi nko korora amafi, akaba ahagaze hejuru y'amazi ari kugaburira amafi yiwe kugira ngo abashe gukura azabone umusaruro.

Uruzi runini rugari rukoreshwa mu bworozi bw'amafi, kuruhande hahagaze abagabo benshi bari kwitegereza bareba niba babonamo amafi. Kunkengero hari ibihingwa bihinzweho.

Bumwe mu bworozi bukorewe mu mazi menshi buzwi nko korora amafi kugira ngo abantu babashe kwihangira imirimo no kwiteza imbere, bakaba bataratangira kuyarora.

Abantu bihangiye umwuga w'ubworozi bw'amafi, bagaze mu mazi bari kuroba amafi yakuze kugira ngo bayashyire ku zuba bayatunganye, bayajyane ku isoko babashe kubona amafaranga.

Ubworozi bukorewe mu mazi buzwi nko korora amafi, ageze igihe cyo kurobwa ngo abashe gutunganywa ajyanwa ku isoko, aborozi babashe kubona amafaranga biteze imbere.

Umusaruro w'amafi, bamaze kuroba, akaba ategereje kuma ngo ajyanywe ku isoko, umworozi wayo abasha kubona amafaranga yo kwiteza imbere no kwagura ubworozi bw'inka.

Umuntu w'umusore, wishimiye umusaruro w'ubworozi bw'amafi yakoze, ari kugaragaza ingano yayo amaze gufata ndetse mu mpande hari ishyamba, rimukikije.

Umuntu wihangiye umwuga w'ubworozi bukorerwa mu mazi urugero nk'amafi akaba ahagaze mu mazi menshi ari kugerageza kureba ibikorwa byiwe uko bimeze.

Abantu babiri b'igitsina gabo bakoze ubworozi bw'amafi mu mazi menshi none bakaba bageze igihe cyo kuyaroba bafite indobani mu ntoki bari kuyaroba ngo bayatunganye bazayajyane ku isoko.

Umuturage ukora umwuga w'ubuhinzi n'ubworozi bwamafi uri ahantu uri kuyanika kugira ngo atange umusaruro kandi abone amafaranga.

Uruzi rugari rwakorewemo ubworozi bw'amafi rukikijwe ku ruhande n'ibindi bimera bitoshye bishishe cyane kuko bibasha kubona amazi aturutse kuri urwo ruzi ruri aho hantu.

Umworozi wamafi w'umumama ufite ifi imwe mu ntoki ziwe, uri kugaragaza umusaruro agezeho kugira ngo akomeze gukangurira n'abandi kuyoboka uwo mwuga ndetse abasha kwiteza imbere.

Abantu bihangiye umwuga wo korora amafi mu mazi bari kuroba amafi yakuze kugira ngo bayajyane ku isoko bashakemo amafaranga.

Ikibaya kinini cyagutse kirimo amazi ashobora gukorerwamo ubworozi bw'amafi kugirango abaturage biteze imbere babone n' amafaranga ahagije.

Abantu b'abagabo, bambaye amashati, batebeje bari hafi y'uruzi rwakorewemo ubworozi, bw'amafi, bari kureba niba amafi yarakoze kugira ngo babashe kuyaroba, bazayajyane ku isoko, babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Abantu babiri bihangiye umurimo w'ubworozi bukorewe mu mazi buzwi nko korora amafi, bakaba bari kuyasarura ibyo bita kuyaroba ngo bayajyane ku isoko.

Abantu bihangiye umwuga korora amafi mu mazi bizwi nk'ubworozi bo mu mazi, bakaba bari kuroba ngo bayatunganye bazabashe kuyajyana ku isoko babona amafaranga.

Bumwe mu bworozi bugezweho bukorerwa mu mazi, aho borora amafi mu mazi menshi, kugira ngo abashe gukura bazayarobe bayatunganye bayajyane ku isoko babone amafaranga.

Umuntu wihangiye umwuga wo korora amafi, ahagaze mu mazi afite uruhombo runyura ku rutugu rwiwe rwohereza amazi muri ayo mafi kugira ngo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Abantu bari mu bwato buri kugenda mu mazi menshi, ameze nk'ay'ikiyaga ndetse bafite indobani, bari gushaka kuroba amafi, bakabasha kuyajyana, bakajya kwiteza imbere.

Abantu benshi bari mu kibaya gihinzwemo igihingwa cy'icyayi, kimwe mu bihingwa byinjiza amafaranga menshi, bakaba bari kugisarura bashe kugitunganya neza.

Umuhinzi w'umumama ufite ibitebo mu ntoki uhagaze mu gihingwa k'icyayi, gihinze ahantu hanini hagutse kandi kigeze igihe k'isarurwa kugira ngo gisarurwe kibashe gushyikirizwa ku isoko gitange amafaranga.

Umuntu wikoreye mu ibase ibihingwa bitanga amafaranga, abijyanye mu bindi kugira ngo bibashe gutunganywamo ibindi bikenewe kugira ngo igihugu kibashe gutera imbere.

Abaturage bahagaze mu kibaya kinini gihinzemo icyayi nk'igihingwa cyinjiza amafaranga, bakaba bari kugisarura kuko kigeze igihe cyo gusarurwa ngo kibashe kuba cyabateza imbere.

Bumwe mu bwoko bw'ibihingwa byinjiza amafaranga menshi bizwi nk'ikawa bihinze ahantu hagutse hagari hakikijwe n'umusozi uciyeho amateras y'indinganire uriho n'ibindi bimera.

Umusozi mugari uhinzweho igihingwa cy'icyayi kitarera neza ngo kibe cyasarurwa, maze abaturage bakijyane ku isoko babone amafaranga yo kwiteza imbere.

Umuhinzi uri gusarura kimwe mu bihingwa byinjiza amafaranga kizwi nk'ikawa imaze kugera ku kigero gishimishije ikaba yasarurwa igatunganywaa ikajyanwa ku isoko.

Umuhinzi w'umugore uri gusarura kimwe mu bihingwa byinjiza amafaranga kizwi nk'ikawa ihinze ahantu ku musozi, hakurya y'aho hari ishyamba rinini kandi rigari cyane.

Ikawa yumye imeze neza iri ahantu hari n'akamamiro kariho ingano nkeya y'ikahwa, ndetse hari n'ikarita y'igihugu cy'u Rwanda irimo amabara y'ubururu, umuhondo cyane.

Abaturage bishimiye isarura ry'igihingwa kizwi nk'ikawa yeze itegereje gutunganywa bakayijyana ku isoko bakabasha kubona amafaranga yo kwiteza imbere mu bikorwa byabo bindi bitandukanye.

Imisozi migari iteganye isa neza cyane imbere yayo hari ibihingwa bisa n'icyayi kandi nayo ikaba ihinzeho ibihingwa byiza mu buryo bw'amaterasi y'indinganire.

Abahinzi bagera kuri bane bahetse ibitebo bahagaze mu kibaya gihinzemo igihingwa k'icyayi kimwe mu bihingwa byinjiza amafaranga menshi mu Gihugu cyacu cy'u Rwanda, bakaba bagiye gusarura kugira ngo babijyanwe ku isoko.

Abantu bahagaze mu kibaya gihinzemo icyayi nk'igihingwa cyinjiza amafaranga menshi bari kugisarura bafite ibikangara mu mugongo wabo bari kugenda bashyiramo ibyo basaruye.

Ikibaya kinini cyagutse gihinzweho ibihingwa bitanga amafaranga nk'ikawa nyinshi ziteye ku murongo ku buryo bwagutse kandi bugari.

Ighingwa cy'ikawa yeze neza, ikaba yarasaruwe, ikaba iri ahantu igomba gutunganywamo kugira ngo irusheho kwinjiza amafaranga menshi mu baturage ndetse no ku gihugu cyacu nk'u Rwanda kugira ngo dukomeze kugira ishema ryiza.

Ikawa yamaze gutunganywa yumye imeze neza itegereje kujya ku ruganda kugira ngo ivemo ifu izajya ikoreshwa n'abaturage, bari kuyinywa ngo bagire ubuzima bwiza.

Ikibaya kinini cyagutse gihinzweho icyayi bumwe mu bwoko bw'ibihingwa byinjiza amafaranga kigeze igihe cyo gusarurwa kugira ngo kijye gutunganywa mu ruganda.

Ibiganza by'umuturage birimo ikawa nk'igihingwa gitanga amafaranga kirindiriye gutunganywa kikajyanwa ku isoko kikaba cyakjiriza umuturage amafaranga menshi.

Abahinzi bahagaze mu gishanga, gihinzwemo igihingwa cy'umuceri, ugeze igihe cyo gusarurwa, bakaba biteguye kuwusarura, bakawujyana ku isoko, bakabona amafaranga.

Ibicupa bifunze birimo imiti y'amatungo nk'inka inkoko n'ingurube, ikoreshwa kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza kandi akure yororoke.

Amacupa arimo umuti w'amatungo, ukoreshwa zitabwaho igihe zakomeretse kugira ngo zidapfa abaturage bakaba bahomba amafaranga n'ubutunzi bwabo.

Ibikoresho binini byifashishwa mu gutunganya imiti bakoresha bavura amatungo kugira ngo avurwe akire adapfa abaturage n'aborozi bayo bakabura umusaruro.

Umuti w'inka z'inzungu ndetse n'inyarwanda ukoreshwa kugira ngo zikure neza kandi vuba zibashe gutanga umusaruro umukamo n'amafaranga ku borozi bazo.

Ibicupa bipfundikiye birimo imiti y'amatungo urugero nk'inka z'inzungu, ingurube, ikoreshwa kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza, atarwara ngo apfe abaturage bagahomba.

Amacupa apfundikiye arimo imiti y'amatungo nk' ihene, inka, intama, ikoreshwa kugira ngo bazivure ndetse zibashe kubona ubuzima buzira uburwayi.

Kimwe mu bikoresho bikoreshwa n'abavuzi b'amatungo bazwi nka Veterineri bifashisha bari kuvura amatungo yarwaye kugira ngo adapfa, agatera ibihombo aborozi bayo.

Ibicupa bipfundikiye birimo imiti y'amatungo urugero nk'inka z'inzungu, ikoreshwa mu kuzivura no kwitabwaho kugira ngo zibashe gutanga umukamo n'umusaruro mwiza ku borozi.

Amacupa apfundikiye, arimo umuti w'amatungo, urugero nk'inka, ingurube, inkoko, byifashishwa kugira ngo bavure amatungo ndetse bayarinde kuba yahasiga ubuzima.

Ububiko burimo udukarito dutoya turimo umuti w'amatungo ukoreshwa mu kuvura amatungo kugira akire, abaturage bakomeze kubona umusaruro ujyanye n'ayo matungo yabo.

Amacupa apfundikiye arimo umuti w'amatungo urugero: nk'inkoko, ingurube, ihene, ukoreshwa kugira ngo zivurwe zitahasiga ubuzima umuturage akaba yahomba igihe kitageze.

Ibicupa bipfundikiye birimo imiti ivura inkoko ndetse n'udukarito duto na two turimo umuti, uvura amatungo yandi kugira ngo adapfa, azize uburwayi.

Amacupa apfundikiye arimo umuti w'amatungo ukoreshwa n'abavuzi b'amatungo kugira ngo bayavure adapfa bikaba byatera aborozi bayo ibihombo bikomeye cyane kandi bitari ngombwa.

Kimwe mu bikoresho by'umuvuzi w'amatungo uzwi nka veterineri, giteretse ku ntebe y'umweru, gihambiriye n'ishashi kugira ngo kitangirika gikoreshwa babikamo umuti uvura amatungo.

Umuvuzi w'amatungo, uzwi nka veterineri, utari kugaragara, ufashe gicupa kirimo umuti w'amatungo, ukoreshwa uyavura kugira ngo atarwara, akaba yapfa, abaturage bagahomba.

Umuti w'amatungo uri mu ishashi uteretse ku meza ahantu mu cyumba gifunze ukoreshwa n'umuvuzi w'amatungo kugira ngo ayavure, ayarinde kuba yapfa umuturage akagwa mu gihombo.

Uducupa dupfundikiye twinshi turimo umuti w'amatungo ukoreshwa kugira ngo ayavure abaturage badahomba, babashe kuramira ubuzima bw'ayo matungo.

Udupaki turimo imiti y'amatungo, azwi nk'inkoko tubitswe ahantu mu cyumba kugira ngo tuzifashishwe bavura ayo matungo, igihe azaba yarwaye kugira ngo atahasiga ubuzima.

Utujerekani dupfundikiye turimo imiti y'amatungo urugero imiti y'inka, ihene, ingurube, ikoreshwa kugira ngo amatungo avurwe neza kandi akire ku buryo adateza igihombo umworozi.

Uducupa dupfundikiye turimo imiti ivura amatungo urugero nk'inka, ingurube n'inkoko, byifashishwa n'umuvuzi w'amatungo, ayavura kugira ngo adapfa abaturage n'aborozi bagahomba.

Ibicupa bipfundikiye birimo imiti y'amatungo urugero nk'ingurube, inkoko, inka, ikoreshwa kugira ngo zivurwe kandi amatungo amere neza adapfa abaturage bagahomba.

Amacupa manini apfundikiye arimo umuti w'amatungo, urugero nk'inka z'inzungu, ukoreshwa kugira ngo zivurwe zidapfa kandi zitange umukamo utubutse.

Abantu batatu basutamye harimo n'umupolisi, bari gutera ibiti mu butaka buhinze kugira ngo bikure, bizabashe gutanga umusaruro ku baturage batuye aho hantu.

Abaturage bahagaze ahantu mu gishanga hizwe umuceri wageze igihe cy'isarurwa, bakaba bari kuwusarura babashe kuwutunganya, uzajyanwe ku isoko ndetse banawurye.

Abahinzi barimo umugabo n'umugore bari guhinga bakoresheje amasuka yabo bari guhinga ahantu mu kibaya gihinzemo ibihingwa bitandukanye, inyuma ya hari ibihingwa bimeze nk'umuceri ndetse abo bahinzi bari kumwe n'umwana wabo mu murima.

Abahinzi bari ahantu hari ibyatsi byinshi byameze bitoshye, bari gutera ibindi bimera, inyuma yabo hari ibiti byakuze, byagandaye kugira ngo bakomeze kubungabunga ibyo bimera.

Ubworozi bw'inka z'inzungu zizwi nk'imfirizoni zifite amaherena ku matwi zororewe ahantu mu kiraro, imbere yazo hari ahantu bashyira ubwatsi zirya kugira ngo zibashe kubona umukamo.

Umuhinzi w'umumama, ufite isuka uri guhinga, ahantu yasaruye imyaka, urugero nk'amasaka ndetse ku ruhande rw'iwe hari isina, inyuma y'iwe hari ibihingwa bimeze nk'ibijumba bitarakurwa.

lnka z'inzungu, zifite amaherena ku matwi ,ziri ahantu mu rwuri ,zirikurisha ubwatsi buhari butoshye bumeze neza, ziri kumwe n'umushumba wazo uziragiye, kugira ngo zitajya konera abaturage.

Bumwe mu buryo bwo guhinga bwa kijyambere, ho hahinzwe ibigori, byinshi biri mu kibaya, cyagutse kigari, bitaragera igihe cy'isarurwa kuko bitarera.

Abahinzi babiri b'abagabo bafite amasuka ku rutugu bari kugenda berekeje mu mirima yabo aho bagiye kujya guhinga kugira ngo bakomeze guteza imbere ubuhinzi bwabo kandi banabone umusaruro ufasha.

Abahinzi bari ahantu mu kibaya bari kujya kureba uko ibihingwa byabo bahinze bimeze kugira ngo babisarure babitunganye babashe kubishyikiriza isoko babone amafaranga.

Abahinzi bari ahantu mu murima uhinzemo ibimera bari guteramo ibindi ndetse banagenzura ko ibyo biteyemo nta kibazo bifite kugira ngo bakomeze babungabunge ubuziranenge bwabyo.

Abahinzi harimo uhagaze afashe isuka mu ntoki'u undi upfukamye uri gutera igiti ahantu hari ibyatsi bitarakura neza kugira ngo akomeze kongera ubwiza bw'aho hantu kandi aniteze imbere.

Umuhinzi w'umugabo wambaye ingofero wazamuye amaboko ari kureba mu kirere, ahagaze munsi yigiti, kumpande ziwe hari ibindi bimera bitoshye bishishe bimeze neza.

Ubworozi bw'inka nyinshi z'inzungu zorowe mu kiraro ziri kurisha ubwatsi bwashyizwe imbere yazo kugira ngo zongere umukamo zibashe guteza imbere umworozi wazo.

Umuntu uri gutera igiti ku butaka bwumye butariho ibindi bimera kugira ngo arusheho kongera ubwiza bw'aho hantu kandi haboneke ibindi bimera bishya.

Ubwoko bw'inyamaswa y'agasozi yagiye kona imyaka y'abahinzi bahegereye ishobora kubateza igihombo kuko iri kubononera kandi iri kwangiza bimwe mu bihingwa byabo bagakwiye kuba bagomba gusarura.

Umuntu w'umuhinzi mu buryo bwa kijyambere, ubikora ku buryo bugezweho, ufite urubuto mu kiganza cy'iwe, ugiye kurutera ahantu habugenewe, ku ruhande hari ibindi bimera bimeze neza.

Abahinzi benshi b'abadamu bunamye bari mu kibaya cyagutse, bari gutera imyaka kugira ngo bazabashe kubona umusaruro utubutse wo guteza imbere imiryango yabo.

Abahinzi babiri harimo umugabo n'umugore wambaye agapfukamuwa basutamye bari gushyira ingemwe mu bihoho bajyana muri pipinyeri kugira ngo bizakure bibashe guterwa bivemo ibiti bizima bikuru.

Umuhinzi w'umumama ufite ibiti mu ntoki ziwe bigiye guterwa ubona ko yishimiye icyo gikorwa agiye gukora kandi anezerewe cyane.

Abahinzi benshi bari ku musozi hejuru bunamye bari gutera ibiti byunganira ibyari bisanzweho nk'uko ari ishyamba riri gukura ariko ritarakura cyane.

Abahinzi bunamye harimo abambaye uturindantoki bari gutera ikimera mu busitani bw'ikigo runaka, inyuma yabo hari n'abanyeshuri na bo bari gutera ibimera hafi aho ngaho.

Abahinzi b'abagabo basutamye bari gusarura ibihingwa byabo bigeze igihe cy'isarura kugira ngo babiganishe isoko, babashe kubona amafaranga yo kwiteza imbere no gukora ibindi bikorwa byabo.

Kimwe mu bihingwa bizwi nk'ibirayi byeze byasaruwe biri ahantu hamwe, hategereje kujyanwa ku isoko umuhinzi akabona amafaranga amubeshaho neza.

Kimwe mu bihingwa bihiribwa cyane n'abaturage kizwi nk'ibirayi, bikaba byareze kasarurwa bigashyirwa ahantu hamwe, birindiriwe kujyanwa ku isoko no kujyanwa mu ngo bikaribwa.

Ahantu harimo ibimera bitandukanye, ariko harimo ibyatsi byinshi bishobora kuzabibuza kwera neza, umuturage akaba yahomba atagize icyo abikoraho nonaha.

Ubutaka bugari buhinzweho ibihingwa bitandukanye birimo ibigori bitarera neza, hakaba hari n'ibindi byumiye ku ruhande, harimo ibiti bihagaze bitoshye bimeze neza.

Ikibaya gihinzweho ibihingwa bitandukanye, cyegereye umuhanda unyurwaho n'abantu ndetse hejuru y'umuhanda hari amatara, awumurikira kugira ngo abantu babashe gukora n'ibikorwa byabo mu gihe cy'ijoro.

Ubuhinzi bw'imyaka itunga umuryango burimo imyumbati, itsina, bikaba bitaragera mu gihe cyo gusarurwa kuko bitaramara kwera neza ngo babe babisarura.

Ubwoko bw'ibihingwa bizwi nk'ibishyimbo n'ibigori, bikaba bihinzwe ahantu mu cyaro ku butaka, bikaba bitarakura ngo bigere igihe cy'isarurwa.

Kimwe mu bihingwa bihingwa bigamije kuribwa, ibirayi bigeze igihe cyo gusarurwa byamaze kwera kandi bimeze neza ku buryo byajyanwa mu rugo.

Umurima uhinzemo ibihingwa bitandukanye harimo intoryi, insina ndetse n'ibindi bitandukanye biri hafi y'urugo rw'umuturage, wabihinze kugira ngo arusheho gukomeza guteza urugo rwiwe n'umuryango wiwe imbere.

Ubwoko bw'igihingwa k'imboga gihinze ahantu kigeze igihe cyo gusarurwa kuko cyamaze kwera kugira ngo abantu babashe kuba bakijyana ku isoko babone amafaranga ndetse kinaribwe.

Ikibaya kinini cyagutse, gihinzwemo imyaka, ku mpande zacyo gikikijwe n'imisozi ituweho n'abaturage, bahinga aho hantu kugira ngo biteze imbere.

Ahantu hakusanyirijwe ibyo kurya by'amoko menshi ndetse n'ibyo kunywa harimo amacupa apfundikiye arimo ibyo kunywa, imbuto yo kurya nk'ibirayi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

Kimwe mu bihingwa bizwi nk'uruyuzi byera imbuto zizwi nk'inyungu biribwa n'abaturage, rwegereye urukuta rw'amatafari, bigaragara ko ari mu gikari cy'umuturage yakoze kugira ngo akomeze abone ibimutunga.

Ubutaka buhinzeho igihingwa k'ibigori bitameze neza ubona ko izuba ryatangiye kubyica ku buryo bituhiwe umuturage ndetse n'umuhinzi bahomba bakabura ibibatunga.

Umuhinzi w'umugabo uhagaze ku butaka afite umuhoro mu ntoki, impande z'iwe hari amasina yakuze ariko ataragera igihe cyo kuba yasarurwa.

Ubwoko bw'igihingwa cy'urubuto ruzwi nk'icunda gihinzwe ahantu kikaba kitarera neza kugira ngo kibashe gusarurwa kandi kijyanwe ku isoko giteza imbere umuhinzi wacyo.

Ahantu hari amazu atuwemo n'abaturage, inyuma yaho hakaba hari ikigunda kirimo ibihingwa byeze bigasarurwa nyuma hagasigara ibiti byabyo bihagaze byumye.

Umusozi uriho ibimera bitandukanye birimo n'ibimera byinjiza amafaranga kuba baturage ndetse hakurya hari umusozi muremure, uriho imirima ihinze mu buryo bw'amaterasi y'indinganire.

Urutoki ruhinze kuri hegitale nini rwiza rusasiye neza imbere yarwo hari ibindi bihingwa bitarakura cyane ngo bigere igihe cy'isarurwa bibashe kujyanwa ku isoko.

Kimwe mu bihingwa bizwi nk'imyumbati bihinzwe ku butaka bitarakura, hakurya yabyo hari imiyenzi ndetse biri inyuma y'igikari cy'umuturage kirimo ibigori na byo byeze bigeze igihe k'isarura.

Igihingwa k'ikigori cyasaruwe kirambitse ahantu mu byatsi kifite ibibabi byamaze kuma gishobora kubikwa kikazakurwamo imbuto ikoreshwa mu guhinga kugira ngo umuturage abashe kubona umusaruro utubutse.

Kimwe mu bihingwa bizwi n'isumbe kiribwa kigeze igihe cyo gusarurwa, ikaba bayisekura cyangwa bakayishisha bakabona imboga zo kurya ndetse bagasagurira n'isoko.

Ubwoko bw'ibimera buzwi nk'isombe bugeze igihe cyo gusarurwa ku buryo bayisekura cyangwa bakayishesha abantu bakayirya bakabasha kubona ibitunga umubiri no kuwubaka.

Ahantu hari ibimera n'ibidukikije birimo ibiti bihagaze biri mu bwoko bwa gereveriya, ibiti by'imbuto by'amapapayi bigeze igihe cyo kuba byasarurwa ku buryo byaribwa.

Ubutaka buhinzwemo ibihingwa byo kurya, birimo; imyumbati, amatsina ndetse n'ibigori, bigeze igihe cyo kuba byasarurwa bikajyanwa mu ngo, kuribwa n'abaturage.

Kimwe mu bihingwa bizwi nk'imboga za dodo zigeze igihe cy'isarurwa kuko zimeze neza zirashishe abantu bazisarura bakazirya ndetse bakajyana no ku isoko bagashaka amafaranga.

Imifuka myinshi iteretse yuzuyemo ibirayi byasaruwe n'abaturage bakaba bategereje kubijyana ku isoko ngo babashe kwiteza imbere.

Ahantu hari kuzamuka umwotsi hameze nk'aho batwitse amakara, hakurya yaho hakaba hari urutoki ruhinze kuri hegitare ifite ubuso bugari ndetse hari n'ibiti bikikije urwo rutoki.

Ubuhinzi bw'urutoki, ruri ahantu heza kuri hegitale yagutse, hageze igihe cyo kwitabwaho kugira ngo batangire kurusarura, bajyane ku isoko.

Kimwe mu bihingwa bizwi nk'imyumbati gihinzwe ahantu ku butaka bwumye kitari kumwe n'ibindi bihingwa nk'uko bigaragara ariko gishobora kurekwa kigakura kikaba cyakurwa kikajyanwa mu rugo.

Ibihingwa birimo imbuto zirimo amacunga, ibitunguru, inyanya, isenda, inkeri, ndetse n'ibigori byageze igihe cy'isarurwa bikaba biri ahantu hamwe ngo bijyanwe ku isoko.

Ibihingwa by'ibigori bihinze ku buso bugari, bikaba bigeze igihe cyo gusarurwa ngo bijyanwe kwanikwa kugira ngo bitunganywemo ibindi bintu bishobora gutunga abaturage, bikabaha n'amafaranga.

Ishyamba riri ahantu hagutse rigari ririmo ibiti bikuze by'amoko menshi byarandaranze ku buryo ryatemwa rikajyanwa ku isoko abantu bagakuramo inkwi bakagurisha bakabona amafaranga.

Umusozi uriho ishyamba rinini, rigari, ririmo ibiti bikuze cyane, bifite amashami yarandaranze ku buryo ryabasha gutemwa, rigacanwamo amakara cyangwa rikabazwamo imbaho.

Ahantu hari ishyamba rigari ryagutse, ririmo ibiti bikuru birebire cyane bifite amababi ashamikiranye menshi cyane, bigeze igihe cyo kuba byasarurwa bigatwikwa bikavamo amakara, akoreshwa mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage.

Umusozi mugari muremure uteye neza uriho ishyamba ryakuze cyane ku buryo ryasarurwa akajyanwa gutunganywamo ibikoresho urugero nk'imbaho ndetse rikaba ryakurwamo n'amakara.

Ishyamba rigari ryiza ririmo ibiti byinshi birambuye bifite amababi atoshye ashishe ameze neza ku buryo bimwe muri ibyo biti bikuze byatemwa bigakurwamo imbaho zikajya gukora ibikoresho bitanga amafaranga.

Ikibaya gikikijwe n'umusozi uriho amaterase y'indinganire ariho ibimera, amashyamba, ku mpande yacyo hakaba hari ahantu hari kuzamuka umwotsi.

Urutoki ruhinzwe ahantu hagutse kandi hanini hafi yarwo hari agashyamba, hakurya yarwo hari imisozi ibiri iteganye yamezeho ibimera n'amashyamba.

Ishyamba rigizwe n'ubwoko bwinshi bw'ibiti bimeze neza birambutse bigororotse, imbere yabyo hari ibindi bimera ndetse n'ibyatsi, hakaba hari n'akayira kari hafi aho kanyurwamo n'abaturage bagiye mu bikorwa byabo bitandukanye.

lshyamba rigizwe n'ibiti binini bigororotse rirambutse, rihagazemo umuntu umeze nk'uricungira umutekano, rikaba rishobora kuba ryasarurwa rigakorwamo ibikoresho byabugenewe.

Ikibaya cyagutse gihinzwemo ibintu bitandukanye harimo amateke, ibigori ndetse n'ibindi bimera bigiye bitandukanye, gikikijwe n'ibiti bikizengurutse byameze kandi binini.

Ubutaka buhinzwemo ibihingwa ,ndetse harimo n'ibiti bihagaze ,birebire bitarakura ngo bibe byakurwamo, kugira ngo bitangiza ibyo bihingwa bihinzwemo aho hantu.

Inka z'inzungu ziri kurisha ahantu mu ishyamba ubwatsi butoshye bumeze neza ndetse n'ibiti bimeze neza bizifasha kugira ngo zibeho neza zitange umugamo.

Umusozi uriho ishyamba rigari rinini mu buryo buhagije ritoshye rimeze neza izuba ritigeze ririhungabanya rigeze igihe cyo kuba ryasarurwa bakarikuramo ibindi bintu bibateza imbere.

Umusozi uriho ishyamba rigari ririmo ibiti byakuze bishobora gutemwa bigatwikwa bigakurwamo amakara ndetse n'imbaho bakabijyana ku isoko abantu bakabona amafaranga bakiteza imbere.

Inka ziri kurisha ahantu mu rwuri rugari rurimo ubwatsi butoshye, harimo n'ibiti bihagazemo na byo bitoshye bimeze neza cyane.

Ahantu hari imisozi myinshi imigari, iriho imirima yo mu bwoko bw'amaterasi, amashyamba ndetse n'ibindi bimera, bitoshye bimeze neza, bitishwe n'izuba.

Umusozi muremure mugari uriho ibimera birimo nk'ishyamba, rifite amashami menshi agandaye, rigeze igihe cyo kuba ryatemwa rigakurwamo amakara cyangwa imbaho bikajyanwa ku isoko, abantu bakabona amafaranga.

Umusozi mugari munini cyane uteyeho ishyamba ririmo ibiti byakuze cyane ku buryo byatemwa bikaba byatwikwamo amakara ndetse bikanabazwamo imbaho bikajyanwa ku isoko mu buryo bwo kwiteza imbere.

Umusozi mugari uhinzeho ishyamba rinini ryagutse rirerire rigeze igihe cyo gusarurwa bakaba bajya gukuramo imbaho n'amakara bajyana ku isoko bakabasha kwiteza imbere.

Ahantu mu ishyamba harimo ibiti bikeya bitagororotse harimo n'ibindi bimera by'ibyatsi n'ibindi biti bitoshye bitaruma izuba ritarica.

Ishyamba rinini kandi rigari ku buso bwagutse, ririmo ibiti by'amoko yose, rishobora gutemwa rigakurwamo amakara ndetse n'ibindi bintu byateza imbere igihugu.

Umuhinzi w'umumama wambaye imyenda y'ubururu, uhagaze ahantu yahinze intabarara, ari kureba niba zeze ngo azisarure, abe yazijyana mu rugo bazirye, asagurire n'isoko yiteze imbere.

Umuhinzi w'umumama, ufite base mu ntoki, irimo ifumbire, uri gufumbira, ibihingwa by'iwe yahinze ahantu, urugero nk' urusenda, rugeze n'igihe cyo kuba rwasarurwa rukajya gutunganywa.

Akarima k'igikoni gateyeho imboga ibitunguru, kari mu gikari cy'umuturage ku ruhande rwako hahinze ibindi bihingwa, bimufasha kunganira urugo rw'iwe akabasha kubona ibirutunga.

Ubwoko bw'ibihingwa bizwi nk'urusenda rweze neza kandi ruhishiye, rutegereje gutunganywamo ifu yarwo kugira ngo rwongere uburyohe mu biryo ndetse runarusheho gutanga amafaranga.

Umuhinzi ukoze ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye, harimo ibitunguru, inyanya, pavuro, karoti, ubifite, uri kugaragaza umusaruro amaze kubona, yitegura kubijyana ku isoko ngo abashe gukuramo amafaranga.

Umuturage w'umudamu wakoze akarima k'igikoni mu gikari kiwe uri gusaruramo ibitunguru yateye byamaze kwera ndetse harimo n'ibindi nk'intoryi zitarera neza.

Abaturage barimo abagore babiri n'umugabo umwe bambaye udupfukamunwa bicaye ahantu ku musozi uhinzweho inanasiri, bari kureba aho zigeze zera.

Ubuhinzi bw'urusenda rwa piripiri buhinzwe mu buryo bwa kijyambere kandi bugezweho, rugeze igihe cyo gusarurwa kuko rwatangiye gushya rumeze neza.

Umuhinzi w'umugore wishimiye umusaruro w'urusenda ari kubona imbere yiwe, rugeze igihe cyo gusarurwa rukaba rwajyanwa gukurwamo ifu ndetse rukajyanwa ku isoko akabona amafaranga akiteza imbere.

Abasore babiri bari guhinga bahagaze bafashe amasuka mu ntoki, imbere yabo hari umukoresha wabo uri kubaganiriza ababwira ibyo bagomba gukora kugira ngo bigende neza.

Umuhinzi w'imbuto z'inanasi, uvuye kuzisarura, uzifite ari nyinshi mu mbase y'ubururu, ku ruhande rw'iwe hakaba hari izindi zitarera neza, zikiri icyatsi.

Umucuruzi w'umumama wicaye mu bicuruzwa birimo imyungu, imyembe, intababara, inanasi, amacunga, wicaye ucuruje kugira ngo abone inyungu.

Ibihingwa byasaruwe biri ahantu hamwe birimo inyanya, ibitunguru, amashu ndetse n'ibindi bitegereje abaguzi kugira ngo babigure babashe gutanga amafaranga.

Ibihingwa urusenda ruhinzwe mu buryo bugezweho, aho bihinzwe mu mifuka kandi bikaba bigeze igihe cy'isarurwa kuko byamaze guhishira ku buryo byasarurwa bikajyanwa gutunganywa mu ruganda.

Umuhinzi w'umugabo wunamye areba ibihingwa biri mu bwoko bw'amashu, areba niba byeze ngo abisarure abashe kubijyana ku isoko yiteze imbere n'umuryango.

Bumwe mu bwoko bw'imbuto zihingwa n'abaturage, zitaragera igihe k'isarura ku buryo umuturage yazitunganya akazijyana ku isoko, akabasha kubonamo amafaranga amufasha kwiteza imbere.

Ubuhinzi bw'imbuto zitandukanye zirimo: inyanya, imyungu ndetse n'izindi ziri ahantu zigeze igihe cyo gusarurwa, ku buryo umuhinzi yazisarura akazijyana ku isoko.

Ubuhinzi bw'imbuto zizwi na pome, zigeze igihe cy'isarurwa kuko zamaze kwera zarahishiye ku buryo zajyanwa ku isoko umuturage akabona amafaranga.

Bumwe mu buhinzi bugezweho bwo guhinga imbuto zitandukanye, urugero hano ni nk'amashu atarakura neza akeneye kuhirwa kugira ngo abashe gukura, azatange umusaruro ushyitse ku muhinzi wayahinze.

Umuhinzi w'umumama wicaye ufite udutebo, kamwe karimo inyanya, imbere ye harunze izindi nyanya, yasaruye kugira ngo abashe kuzijyana ku isoko, abone amafaranga yo kwiteza imbere.

Umuhinzi w'umudamu wihangiye umwuga wo guhinga intababara uri kureba niba yabonamo izo asarura akajyana ku isoko akabona amafaranga yo kwiteza imbere.

Ubutaka buhinzeho ibigori byinshi biri kuhirwa hakoreshejwe uburyo bugezweho aho banyuza impombo nini imbere y'ubwo butaka bakayipfumura ikagenda itanga amazi ahagije.

Umuhinzi w'umudamu wambaye uturindantoki ufite igihombo kiri guturukamo amazi, ari gukoresha yuhira umuceri yateye ahantu mu gishanga kugira ngo uzakure, abashe kubona umutunga anasagurire isoko.

Umuntu w'umusore, uhagaze ahantu hahinze ibihingwa, biri ku buso bugari, buri kuhira akoresheje impombo izana amazi, menshi kugira ngo ibimera bibone amazi, ahagije.

Umugabo uhagaze imbere y'uruzi rufite igikoresho gikurura imirasire y'izuba kugira ngo abashe gucana akamoteri gakurura amazi, ajye kuhira imyaka y'iwe.

Umuntu uhagaze munsi y'igiti ufashe ihombo rinyuramo amazi ,ari kuhira imyaka kugira ngo ayirinde ko izuba ryayangiza ,akaba yahomba igihe cyo gusarura kigeze.

Abantu bagera muri babiri bari ahantu hahinzwe ibihingwa bitandukanye birimo amashu ndetse n'izindi mboga bari kuhira bakoresheje uburyo bugezweho aho banyuza impombo y'amazi mu murima kugira ngo babashe gukwirakwizamo amazi menshi.

Umwana w'umuhungu uhagaze ahantu hahinze ibimera by'ibigori, uri kuhira akoresheje impombo izana amazi kugira ngo ibimera bituma kandi bibashe gukura.

Umuturage uri kuvomerera ibimera bihinzwe ku mirongo yifashishije rozwari kugira ngo bibashe gukura neza, bizabashe kumuha umusaruro utubutse kandi uhagije.

Umugabo uhagaze mu kibaya gihinzemo ibigori bitarakura, biri kuhirwa hakoreshejwe ikoranabuhanga, aho banyuza ibihombo by'amazi mu murima, bikagenda bitanga amazi menshi atuma ibimera bikura.

Akabande karimo amaparisera menshi ahinzemo igihingwa cy'umuceri kitaragera igihe kisarurwa, hafi yayo hari inzira iri guturukamo amazi agana muri ayo maparisera kugira ngo umuceri were neza.

Ahantu hahinzwe ibihingwa biri kuhirwa hakoreshejwe uburyo bugezweho aho banyuza impombo z'amazi mu murima zikagenda zuhira zikoresheje imbaraga kugira ngo amazi akwire mu bihingwa byose.

Umuntu uhagaze mu buhinzi bw'indabyo, uri kuzuhira kugirango zikure neza zishishe, zizabashe gutanga umusaruro kugira ngo izuba ritazazica akaba yahomba.

lbihingwa bihinze ahantu mu kibaya cyagutse, biri mu bwoko bw'ibigori, biri kuhirwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, bibirinda kuma kugira ngo umuturage adahomba.

Akabande gahinzwemo imyaka gakikijwe n'amashyamba ku mpande hakaba hari kuhirwa hakoreshejwe uburyo bugezweho aho banyuza ibihombo by'amazi mu myaka bigatanga amazi menshi.

Umuhinzi w'umugore, uri kuhira ibihingwa byo mu bwoko bw'amashu, uri kuhira akoresheje iyo rozwari kugira ngo ibihingwa bituma kubera izuba ryinshi ririho.

Ikibaya gihinzwemo ibihingwa biri kuhirwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho hari akamashini kazana amazi, kakuhira imyaka kayirinda kuba yakuma ikangirika.

Umuhinzi w'umumama, ubyibushye ufite igihombo, uri kuhira inyanya zihinze ahantu mu rutoki, rugari kugira ngo abirinde ko byicwa n'izuba, akaba yahomba, akabura umusaruro ushyitse.

Ikibaya gihinzemo ibihingwa by'ibigori, biri kuhirwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho banyuza amatiyo arimo amazi hejuru mu kirere, akabasha gutanga amazi ahagije, atuma ibimera bituma.

Umusozi uhinzeho ibihingwa bizwi nk'ibigori ndetse hafi yabyo hari ibyatsi n'igikoresho cyuhira, gikoresha imbaraga nyinshi kugira ngo gitange amazi ahagije ibigori bitazuma.

Abahinzi benshi barimo abagabo n'abagore bari ahantu mu kabande, bari kuvomerera bakoresheje rozwari kugira ngo imyaka yabo, itazicwa n'izuba bakavaho banahomba kandi bitari ngombwa.

Ikibaya kinini kandi kigari gihinzwemo igihingwa cyo mu bwoko bw'umuceri kigeze mu gihe cyo kurindwa kugira ngo inyoni zitangiza umusaruro wacyo.

Ibihingwa bitarakura bihinzwe ahantu hagari, biri kuvomererwa hifashishijwe ibikoresho by'ikoranabuhanga bigezweho mu kuhira kugira ngo ibimera bikure neza kandi vuba.

Umuhinzi w'umudamu uri kuhira akoresheje umupira uzana amazi, uri kuvomerera amashu kugira ngo izuba ritayica akaba yakangirika.

Igihingwa k'ibigori giteye ku butaka bufite ubuso bugari bwagutse bikaba biri kuhirwa n'abantu bari gukoresha uburyo bugezweho aho banyuza amahombo y'amazi umurima ugatanga amazi menshi.

Ikibaya gihinzwemo ibihingwa biri kuhirwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga kugira ngo izuba ritazatuma ibyo bintu byuma ku mpande hakaba hakikijwe n'ishyamba naryo ritoshye neza.

Ikibaya kihinzwemo imyaka iri kuhirwa hifashishijwe ikoranabuhanga aho banyuza ibihombo hagati mu myaka bikagenda binyabagizamo amazi menshi akabirinda kuma.

Ubutaka buhinzemo imyaka itandukanye urugero nk'amateke, iri kuhirwa hakoreshejwe uburyo bw'ikoranabuhanga, ku ruhande hari ishyamba ribukikije.

Umuntu w'umugabo wambaye ingofero ifite umupira uzana amazi uri kuhira ibihingwa bihinze ahantu kandi bisasiye kugira ngo babirinde izuba bibashe gukura neza.

Ibihingwa bihinze mu kibaya cyagutse birikuhirwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga aho banyuza amatiyo ku mpande y'ibimera kugira ngo bibone amazi ahagije.

Ahantu hahinzwe ibihingwa biri kuhirwa hifashishijwe uburyo bw'ikoranabuhanga, aho banyuza amahombo y'amazi mu bihingwa akuhira kugira ngo birinde ko izuba ryabangiriza.

Ikibaya gikikijwe n'imisozi ibiri iteganye iciyeho amatera y'indinganire ifata amazi kugira ngo ubutaka bw'iyo misozi butazatwarwa ndetse hakaba hariho ibimera nk'amasina, amashyamba, n'ibindi byatsi.

Umusozi uriho inyamaswa ziri kurisha ubwatsi butoshye bumeze neza, ku nkengero zawo ukaba hari ishyamba na ryo ritoshye rimeze neza.

Umusozi muremure wagutse uriho ibimera ndetse unaciyeho amaterasi y'indinganire kugira ngo amazi amanuka atazatwara ubutaka bwawo.

Imisozi migari minini iteganye iriho amaterasi y'indinganire, iriho n'amashyamba n'ibindi bimera biyifasha gufata ubutaka kugira ngo amazi atabutwara mu gihe cy'imvura nyinshi.

Umusozi mugari wagutse wamezeho ishyamba ririmo ibiti bikuze bishobora gutemwa bikabazwamo imbaho zikajyanwa ku isoko abantu bakabasha kubona amafaranga bakiteza imbere.

Umusozi munini muremure uciyeho amaterasi y'indinganire uriho imirima ihinzemo imyaka, ndetse kumpande hakurya hari amashyamba, afata amazi kugira ngo adatwara ubutaka bw'uwo musozi.

Ikibaya gikikijwe n'imisozi iteganye, kiriho amaterasi y'indinganire, iriho ibyatsi ndetse n'amashyamba kugira ngo bifate amazi atazatwara ubutaka.

Imisozi miremire iteganye iciyeho amatarasi y'indinganire, ariho imirima yamezemo ibimera, hariho amashyamba afata amazi kugira ngo ubutaka bw'uwo musozi budatwarwa n'amazi menshi.

Imisozi iteganye iriho imirima ihinze mu buryo bw'amaterasi, iriho ibihingwa bitandukanye ndetse hejuru yayo hatuwe n'abaturage, munsi y'iyo misozi hakaba hanyura umuyoboro w'amazi adasa neza na mba.

Ahantu hatuwe n'abaturage batuye mu mazu y'amategura, imbere yabo hari imisozi minini migari ihinzeho ibihingwa bijye bitandukanye birimo urutoki, hakurya hari n'ibiti bigize ishyamba.

Umusozi utuweho abaturage ndetse uriho imirima ihinze mu buryo bw'amaterasi y'indinganire hariho ibimera bitandukanye, imyaka y'abaturage ndetse n'amashyamba abasha gukurura imvura kugira ngo abaturage babone ibibatunga bihagije.

Imisozi migari igizwe n'imirima iciyeho amaterasi y'indinganire kugira ngo afate amazi atazatwara ubutaka bwayo, hakaba hariho ibimera, amashyamba ndetse n'ibindi byatsi.

Ahantu hatuwe n'abaturage batuye ahantu munsi y'imisozi miremire, begerewe n'ibihingwa byabo, hakurya ku misozi haciye amaterasi y'indinganire ndetse hariho n'ibiti byakuze bifata amazi kugira adatwara ubutaka.

Umusozi muremure kandi mugari utuweho n'abantu ndetse uciyeho amatera y'indinganire, hariho ibimera bitandukanye, hafi y'umusozi hari amashyamba, urutoki ndetse n'ibindi bifasha abo baturage bahegereye.

Umusozi muremure, uhanamye, utuweho n'abantu, hubatseho amazu, hari ibimera, amashyamba, munsi hakaba hari akabande, gatuwemo n'abantu.

Umusozi munini muremure mugari uciyeho amatera se y'indinganire uhinzweho ibintu bitandukanye ndetse hakaba hari n'ishyamba riwukikije n'abantu bahatuye.

Imisozi miremire migari, iriho ibimera, ibyatsi, iciweho amaterase y'indinganire kugira ngo ubutaka butagenda cyangwa ngo butwarwe n'amazi.

Uruzi runini rugari rukikijwe n'imisozi iriho amaterasi y'indinganire n'amashyamba n'ibindi bimera bifata ubutaka kugira ngo amazi atabutwara akaba yajya kubutsinda muri urwo ruzi.

Ikibaya kinini kigari kirimo ibimera, amashyamba, hakurya yacyo kikaba gikijwe n'umusozi muremure kandi mugari na wo uriho ibimera.

Umurima uhinzemo urutoki n'ikawa wegeranye n'imisozi miremire ituweho n'abantu iriho amashyamba iciyeho amaterase y'indinganire kugira ngo ifate amazi amanuka kuri uwo musozi.

Umusozi uriho ibimera by'amoko atandukanye cyane cyane hakurya yawo hari ishyamba rinini rigari ryagutse, rishobora gutemwa rikabazwamo imbaho zikoreshwamo ibikoresho bitandukanye bibyara amafaranga.

Umusozi uri hafi y'uruzi, uteyeho ibihingwa biri mu bwoko bw'ibitsina, ibigori ndetse n'ibindi biti, bikaba bitoshye, bimeze neza, nta zuba rirabyica.

Ikibaya kinini kigari gikikijwe n'imisozi iriho amashyamba ibimera, ku mpande hari urutoki rukuze rweze kandi rushobora gusarurwa.

Ubworozi bw'inka zigezweho z'inzungu zambaye amaherena zorohewe ahantu mu kiraro, imbere yazo hari ubwatsi ziri kurya kugira ngo zihage zibashe gutanga umukamo ku mworozi wazo, abashe kwiteza imbere na we.

Ubworozi bw'inkoko nyinshi za kijyambere zigezweho zororewe ahantu hamwe, zirira ahantu hamwe, zirinzwe kugira ngo inyamaswa zitazangiza abaturage bagahomba.

Rimwe mu itungo rigufi rizwi nk'ingurube y'inzungu ifite iherena ku gutwi yororewe mu kiraro kugira ngo abantu babashe kuzabona inyama zo kurya ndetse n'umworozi wayo azabone amafaranga.

Imishwi myinshi y'inkoko za kijyambere, yororewe ahantu hafunganye kandi hafunze kugira ngo bayirinde uduca n'ibindi bisimba byayangiza idakuze.

Rimwe mu itungo rigufi ryororerwa mu rugo rizwi nk'ingurube y'inzungu ,yororewe ahantu mu kiraro ,iri guhabwa ibyo kurya kugira ngo ibashe gukura izatange amafaranga.

Ubworozi bw'inka z'inzungu zizwi nk'amafirizoni, zifite amaherena ku matwi yazo ziri ahantu mu rwuri, ziri kurisha ubwatsi buhari butoshye bushishe bumeze neza kugira ngo zibashe gutanga umukamo.

Ubworozi bw'inka z'inyambo ziri kugendera mu ruzitiro ahantu kugira ngo zitangiza ibintu ku mpande yazo hari umuntu wambaye itaburiya y'umweru ufite n'agakoni mu ntoki.

Inkoko za kijyambere zifite ibara ry'umweru ziri ahantu zororerwa mu buryo bugezweho kugira ngo bazirinde kuba hari inyamaswa zazataka zikazirya.

Imishwi myinshi y'inkoko yororewe ahantu hagari, iri guhabwa ibyo kurya n'abantu babishinzwe kandi ikorwa mu buryo bugezweho bwa kijyambere.

Ubwoko bw'itungo rigufi rizwi n'ingurube riri ahantu mu kiraro yororerwa kugira ngo ikure izatange amafaranga umworozi yoroye abashe kwiteza imbere.

Umworozi w'amatungo wambaye isarubeti y'ubururu, inkweto za bote uri hafi y'inka y'Ibihogo y'Inyambo iri ahantu mu ruzitiro kugira ngo itiruka.

Ubworozi bugezweho bwokorora amatungo magufiya urugero hano ni inkwavu zororewe ahantu hafunganye zihererwa ibyo kurya kugira ngo zikure nta zindi nyamaswa zizisanganiye ngo zizicireyo.

Umuntu w'umusore wambaye inkweto za bote ahagaze mu nkoko nyinshi za kijyambere zigaragara nk'ubworozi bwiwe amaze gukora kandi buri kugenda butera imbere cyane kuko zimaze kwiyongera.

Abantu bakikije ahantu hororerwa amatungo magufiya mu rugo, harimo inkwavu ziri kurya ibiryo biziri imbere ndetse bakaba bambaye n'amataburiya y'imyeru.

Bumwe mu bworozi bw'inka z'inzungu zizwi nk'amafirisoni, zambaye amaherena, ziri mu kiraro, ziri kurya ubwatsi bazishyiriyemo kugira ngo zibashe gutanga umukamo uhagije, umworozi yiteze imbere.

Inkoko za kijyambere zirimo amasake n'inkokoka zororewe ahantu hafunze kugira ngo bazirinde, inyamaswa cyangwa ibindi bintu byasagarira zikaba zapfa umuturage agahombo.

Ubwoko bw'inka z'inzungu zifite amaherena, ziri mu rwuri zishotse zigiye kunywa amazi, kugira ngo zidakomeza kwahagira izuba riri kuzica.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere, zororewe ahantu hafunze, ari na ho zigaburirwa kugira ngo zibashe kurindwa ibintu byazisagarira, bikazica, umuturage azabashe kubona amagi n'inyama mu gihe gikwiye.

Aborozi babiri bahagaze mu cyumba gifunze, kirimo inkoko z'inzungu za kijyambere, zizwiho gutanga amagi n'inyama, kugira ngo abantu babashe kwiteza imbere.

Ubworozi bw'amatungo magufiya n'ubwoko bw'ihene ziri ahantu hazengurutswe na senyenge kugira ngo zidatoroka zikaba zajya konera abaturage kandi zirinzwe kugira ngo inyamaswa zitazangiza.

Umugabo wambaye igisarubeti cy'umweru uhagaze mu mishwi myinshi wihangiye umurimo wo korora inkoko za kijyambere akaba ari kuyigaburira kugira ngo ikure zibashe gutanga amagi abone ku mafaranga.

Bumwe mu bwoko bw'amatungo magufi yororerwa mu rugo mu kiraro buzwi nk'ingurube y'umukara iryamye itegereje ko bayiha ibiryo ngo irye kandi izabashe gutanga amafaranga.

Ubworozi bw'inka za kijyambere zororewe mu kiraro ziri kurisha ubwatsi buri imbere yazo kugira ngo zibashe guhaga ndetse zibashe no gutanga umukamo utubutse.

Ubworozi bugezweho bw'inkoko za kijyambere zifite ibara ry'umweru zororewe ahantu hafunze hazitiye na senyenge kugira bazirinde inyamaswa zazataka zikazirya zigahombya umworozi wazo.

Ishyo ry'inka z'inzungu ziri mu rwuri ziri kurisha ubwatsi burimo ndetse hakurya yazo hari ibiti biteye muri urwo rwuri, bituma zibasha kubona agacucu kugira ngo izuba ritazicrwa.

Abantu bafite ibyansi mu ntoki bari mu nka ziri ahantu hamwe bagiye gukama kugira ngo babashe kubona amata bazajyana ku isoko maze biteze imbere.

Ubworozi bw'inkoko za kijyambere zororewe ahantu mu buryo bugezweho zibasha kwakirira ibyo kurya n'amazi yo kunywa kugira ngo zibashe gutera amagi menshi ziteze imbere umworozi wazo abashe na we kunguka no kwiteza imbere.

Bumwe mu bwoko bw'inka y'inzungu ifite iherena kutwi, yororewe ahantu mu kiraro, iri kurisha ubwatsi buyiteretse imbere kugira ngo ibashe guhaga maze itange umukamo utubutse ku mworozi wayo.

Umuntu wambaye taburiya y'ibara ry'umweru, ahagaze imbere y'inka z'inzungu zororewe mu biraro, ziri kuririsha ubwatsi buziri imbere kugira ngo zibashe gutanga umukamo.

Ubworozi bugezweho gukorora inkoko za kijyambere, mu tuzu twazo rwabugenewe bita ikibuti. Zikaba ziri kurya ibiryo bazishyiriye hafi yazo kugira ngo zibashe gutanga amagi n'inyama.

lnka zirongowe zirimo; imbyeyi, inyana ,n'ibimasa, ziri mu rwuri rugari rwagutse aho zibona ibyo kurya bihagije kugira ngo zororoke kandi zitange umukamo.

Ubworozi bw'inka z'inzungu zifite amaherena ku matwi yazo, zororewe ahantu mu kiraro, imbere yazo hari ibyatsi zirya kugira ngo zibashe gutanga umukamo n'umusaruro.

Umuntu wambaye ingofero ufite icyansi, ugiye gukama inka y'infirizoni ngo arebe ko abona umukamo yajyana mu rugo ndetse agasagurira n'isoko akabona amafaranga.

Ubworozi bw'inka za kijyambere z'inzungu zigezweho, ziri ahantu mu rwuri rwagutse rugari ziri kurisha, hari ubwatsi butoshye bushishe bumeze neza butuma zibasha kubona umukamo.

Ubworozi bw'inka za kijyambere z'inzungu zororewe mu kiraro, ziri kurisha ubwatsi buri imbere yazo, kugira ngo zihage kandi zibone umukamo uhagije.

Ubworozi bw'inkwavu bugezweho ziri ahantu mu tuzu twubatse neza, twubakishije senyenge, munsi yatwo hari rozwari bakoresha baziha amazi yo kunywa kugira ngo izuba ridakomeza kuzica.

Amwe mu matungo magufi yororerwa mu rugo azwi nk'ihene z'inzungu zambaye amaherena ku matwi yazo, ziri ahantu hamwe zituje zidafite ubwatsi ziri kurya.

Ubworozi bw'inka za kijyambere zororewe mu rwuri rugari, rwagutse, rurimo ubwatsi buhagije kandi bwiza, bwobutunga amatungo kugira ngo abashe gutanga umukamo.

Abantu bafite ibyansi mu ntoki bari ahantu hari inka bagiye gukama kugirango ngo babone amata bazajyane ku isoko babone amafaranga yo kwiteza imbere mubikorwa byabo.

Abantu benshi harimo abambaye ingofero z'imihondo n'amataburiya y'imyeru, bahagaze ahantu bari kwereka bimwe mu bikoresho bishobora gukoreshwa mu buhinzi.

Ibiganza by'umuntu bifite imbuto mu ntoki bikuye mu mufuka uteretse imbere y'iwe, bigaragaza ubwoko bw'ibihingwa bishobora guhingwa n'abaturage mu gihe biteza imbere.

Umusaruro w'imbuto zahinzwe zikaba zarasaruwe, ziri ahantu hamwe, zirindiriye gupakirwa zikajyanwa ku isoko cyangwa zikajyanwa ku ruganda, bakazitunganyamo ibintu bitandukanye biteza igihugu imbere.

Ikiganza cy'umuntu kirambuye kirimo ibihwagari kimwe mu bihingwa bihingwa cyane kugira ngo abantu babashe kubitunganya, bazabijyane ku isoko biteze imbere.

Igihingwa k'ibigori byahinzwe ahantu bikaba byareze byumiye mu murima bigeze igihe k'isarurwa ku buryo byatunganywa bikajyanwa mu bubiko ndetse bikavamo ibindi bintu bitunga umuryango.

Ubuhinzi bw'imbuto mu buryo bwa kijyambere bugezweho, ziri ahantu zishishe zimeze neza ku buryo zagemurwa zikajyanwa mu murima guhingwa kandi zikera.

Umuturage ufite inkoko iriho ibishyimbo ari kugosora kugira ngo abashe kuba yajya kubihinga mu murima bizamuhe umusaruro utubutse kandi ubasha guhaza urugo rwiwe.

Ikiganza cy'umuntu kirambuye kirimo intete z'imbuto z'ibihingwa uri kugaragaza ubwoko bwabyo kugira ngo abantu babashe kuba bamenya ibyo ari byo na bo babashe gufataho ibyo bajya guhinga.

Umuntu uhagaze ahantu harunze imifuka myinshi ihunitswemwo imyaka basaruye kugira ngo bayibike, bayitunganye bazabashe kuyijyana ku isoko biteze imbere.

Igikoresho gikoreshwa mu kugenzura uko ikirere kimeze cy'aho bahunika ibihingwa n'ibigori kugira ngo bitangirika bikaba byahombya abaturage babihinze.

Abahinzi babiri harimo umugabo n'umugore bafite urutaro ruriho ibishyimbo bari kureba bishimye bari guseka banezerewe umusaruro babonye mu bihingwa byabo.

Icyumba cy'ububiko gipakiyemo imifuka myinshi, ihunitsemo ibihingwa byasaruwe kugira ngo bibashe gushyikirizwa isoko, ryinjiriza amafaranga abahinzi.

Abantu benshi bari ahantu hakusanyirijwe ibihingwa byasaruwe, bari kureba umusaruro wabyo uko umeze kugira ngo bakomeze kugira inama abageza ku bahinzi n'abaturage bari aho.

Umuhinzi w'umugabo uhagaze ahantu hahinzwe n'imashini hagari uri gutera imbuto akoresheje intoki kugira ngo zizere babashe kubona umusaruro utubutse bazajyana ku isoko bakabona amafaranga.

Ibishyimbo biri ku isahani y'umweru iteretse ku meza, bigaragaza ishusho y'umusaruro umuhinzi yasaruye mu gihe cyo guhinga ndetse bino bikaba bishobora kuba byatekwa akabirya.

Abavuzi b'amatungo bazwi nka Veterinary harimo umuhungu n'umukobwa ,bambaye ibisarubeti by'icyatsi bafite inkoko mu ntoki, bari kureba niba irwaye ngo bayivure.

Zimwe mu nyamaswa zizwi nk'imbwa ziri ahantu, zimwe ziryamye, izindi zicaye. Imbere yazo hari ibisorori bazishyiriramo ibyo kurya, ziri ku mbuga y'umuturage kugira ngo zimurindire umutekano.

Umuvuzi w'amatungo uzwi nka veterineri, wambaye itabureriya y'umweru n'uturindantoki, uri gutera urukingo inka ifashwe n'abaturage kugira ngo itamwica.

Umuvuzi w'amatungo uzwi nka veteneri wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki wambaye n'amadarubindi uri kureba inyama niba zujuje ubuziranenge kugirango ngo abaturage babashe kuzirya zitabateye uburwayi.

Abavuzi b'amatungo bazwi nka veterineri, harimo abambaye amatabura y'umweru ndetse n'abandi bambaye ibisarubeti by'ubururu, bari kuvura inka ziri mu ruzitiro kugira ngo zitabasha kwirukanka cyangwa ngo zibangize.

Inyama z'amatungo ziri gutunganywa kugira ngo abaturage baze kuzihaha bajye kuziteka zujuje ubuziranenge kugira ngo zitabatera uburwayi bushobora kubaviramo gupfa.

Umuvuzi w'amatungo uzwi nka veterineri, wambaye isarubeti y'ubururu, uri kuvura inka ihagaze mu ruzitiro kugira ngo itirukanka cyangwa ngo ibe yamuhungabanya na we.

Ishyo ry'inka z'inyarwanda zizwi nk'inyambo zifite amaherena ku matwi ziri ahantu zihagaze zituje, ahantu hatari ubwatsi inyuma yazo hari abashumba baba baziragi.

Umuvuzi w'amatungo uzwi nka veterineri, wambayesarubeti y'icyatsi, uhagaze uri gutunganya amagi yatewe n'inkoko kugira ngo azaturagwemo imiswi, ikuremo inkoko nziza.

Kimwe mu bikoresho by'umuvuzi w'amatungo uzwi nka veterineri gipfunduye giteretse ku ntebe y'umweru akoresha atwaramo imiti ajyana kuvuza amatungo.

Ubworozi bw'inka z'inyarwanda zizwi nk'inyambo, ziri ahantu mu rwuri zi kuririsha ubwatsi bwiza butoshye, hafi y'ishyamba hatuye n'abaturage, bo kuzicungira umutekano.

Abagabo babiri b'abavuzi b'amatungo bazwi nka veterineri, bambaye amasarubeti y'ubururu, bari kuvura inka ihagaze mu ruzitiro kugira ngo itiruka cyangwa ibe yabahungabanya.

Umuvuzi w'amatungo wambaye isarubeti y'ubururu, wambaye n'uturindantoki, ku ruhande rwe hari umuturage uri kumufasha kuvura inka ziri mu ruzitiro nyinshi kugira ngo ataza kwangirika cyangwa gukomereka bitewe n'akavuyo zateza.

Umuvuzi w'amatungo uzwi nka veterineri wambaye itaburiya y'umweru n'uturindantoki, uri muri laboratwari ahatunganyirizwa imiti yifashishwa mu kuvura amatungo.

Abavuzi b'amatungo bazwi nk'abaveterineri, benshi bagera muri batatu bari hafi y'inka bashyize mu ruzitiro kugira ngo itiruka babashe kuyitaho no kuyivura.

Umuvuzi w'amatungo uzwi nka veterineri wambaye igisaruhute k'ibara ry'ubururu n'uturindantoki uri kuvura amatungo, hafi y'iwe hahagaze aborozi b'ayo matungo bari kureba ibyo akora.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi ziri ahantu ku butaka bwumye butariho ibimera, zikaba ziryamye zituje ubona ko nta kibazo zifite.

Inyamaswa mu ishyamba mu bwoko bw'ibisamagwe, ihagaze hejuru y'igiti, izwiho kugira ubukare amakaka, ku ruhande hari ibindi bimera bitoshye, bimeze neza.

Ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi, zizwi nk'intare umwami w'ishyamba ziri ahantu hamwe, ziri kota akazuba kugira ngo zibashe kubona akabaraga.

Imwe mu nyamaswa z'agasozi zizwi nk'intare, umwami w'ishyamba, ziri ahantu uruzitiro, zifungiranye kugira ngo zidatera abaturage zikabarya zikabica.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa ziguruka z'agasozi ,buhagaze ahantu buri kwitegereza ikirere uko kimeze ,zimeze neza zituje ubona ko nta kibazo na kimwe zifite cyane.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi zizwi nk'imbogo nyinshi ziri ahantu hari ubwatsi bwumye hakurya yazo hari imodoka nyinshi z'abantu bazicungira umutekano kugira ngo hatagira ikindi kintu kizangiza.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa y'agasozi izwi nka bakame, iri ahantu mu bwatsi butoshye bwiza cyane, ihagazemo iri kwitegereza ibintu biyiri imbere.

Imwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi izwi nk'igishuhe iri mu mazi iri gushaka ibiyitunga, ku mpande hari ibimera byameze mu mumazi kandi bimaze gukura neza.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi zizwi nk'udusumbashyamba, inzovu, impala ndetse n'izindi ziri ahantu hagutse hitaruye hari ubwatsi bwumye, hakurya yazo hari ibindi bimera bisa n'ishyamba.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi zizwi nk'inzovu, ziri ahantu habugenewe zicungirwa umutekano, hari imodoka y'abantu bari kuzitegereza, hari n'ibyatsi, ibimera zibasha kurya kugira zibeho.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi, zizwi nk'inzovu, ziri kumwe n'ibyana byazo, ziri mu nzira zigenda, kumpande hakaba hari ibimera, birimo amashyamba ndetse n'ibindi byatsi byinshi.

Imwe mu nyamaswa z'agasozi, ihagaze ahantu ku gasongero kariho ubutaka bwumye, kumpande nta byatsi biriho, nta shyamba riyegereye, iratuje, nta kibazo ifite.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi, zizwi nk'impara, ziri mu ishyamba, ahantu hari ubwatsi bwumye, ku mpande yazo hari ibiti, bihagaze, bitoshye, bitaricwa n'izuba ngo byume na byo.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa y'agasozi izwi nk'igishuhe yiryamiye ahantu mu kiyaga iri kureba ko yabona udufi dutoya iroba ikabasha kubaho.

Imwe mu nyamaswa y'agasozi isa n'ingwe yasamye yagaragaje imikaya yayo, ifite ubukana bwinshi ishobora kurya buri wese wayegera kuko iragaragara nk'ishonje.

Bumwe mu bwoko bwinyamaswa zagasozi iri ahantu hari ikirere gituje, gikeye, iri yonyine, kandi ikaba ihagaze itari kurisha.

Imwe mu nyamaswa z'agasozi izwi nk'ingwe igira amakaka, ubukare, iryamye mu giti hejuru isinziriye ubona ko nta kibazo na kimwe ifite.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa y'agasozi ihagaze ahantu mu bimera bitoshye bishishe ibasha gukura ubwatsi buyitunga ikabaho neza kandi igakura vuba.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi zizwi nk'imvubu, iri ahantu mu byatsi byumye, ku mpande zayo hari imodoka irimo abantu bari kuyicunga bayitegereje cyane.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi zizwi nk'intare ziryamye ahantu ziri kumwe na nyina n'ibyana biri kwitegereza ibintu bibiturutse imbere.

zimwe mu nyamaswa z'agasozi zizwi nk'impara n'udusumbashyamba ziri ahantu heza hari ubwatsi butoshye hakurya yazo hari ishyamba naryo ryakuze rimeze neza ritaricwa n'izuba.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa y'agasozi izwi nk'impara iriri mu bwatsi bwenda kuma, inyuma yayo hari ibiti bigera muri bibiri bihagaze bitaruma, imbere yayo hari ikigunda k'ibyatsi bitaruma ihagaze imeze neza nta kibazo ifite.

Imwe mu nyamaswa z'agasozi, isa n'urukwavu rw'agasozi iri ahantu hari ubwatsi butari bwinshi butoshye, iri kwitegereza ibintu biyiri imbere, imeze nk'ishaka kwirukanka.

Ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi zizwi nk'inzovu, ziri kumwe n'icyana cyazo, zikaba ziri ahantu mu kibaya cyagutse kimeze neza kirimo ibyatsi zirisha.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi ziri ahantu hari ubwatsi bwumye hakurya hari umusozi muremure mugari uriho ibiti bitari byishi byenda kuma kubera izuba ryinshi riri muri ako gace k'aho hantu.

Imwe mu nyamaswa z'agasozi izwi nk'igisamagwe, ihagaze iri kureba cyane, ku ruhande rwayo hari indi yicaye inyuma yazo hari ibimera bitoshye bimeze neza, zishobora kuba zaryamamo zikaruhuka.

Imwe mu nyamaswa z'agasozi izwi nk'imbwebwe ihagaze ahantu hari ibyatsi byiza bishishe ndetse birimo n'indabyo iri kwitegereza ibintu biyiri imbere imeze nk'ifite ubwoba bwinshi.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa y'agasozi iri ahantu mu kibaya kirimo ubwatsi bwenda kuma, imbere yayo hari ibyatsi byo byamaze kuma, imeze nk'iyirukanka ihunga izindi nyamaswa, ziri kuyirukankana.

Zimwe mu nyamaswa z'agasozi zizwi nk'impara zimanutse zitonze umurongo, zigiye kunywa amazi zivuye ku musozi aho izuba ryari rizimereye nabi.

Ubwoko bw'inyamaswa z'agasozi zizwi nk'ingwe, harimo ibyana n'ibibyeyi byabyo biryamye ahantu mu byatsi bituje, bikaba bizwiho kurya inyama n'izindi nyamaswa.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa z'agasozi buzwi nk'ibiguruka inyoni ziri ahantu zituje ziri kwiyitaho kugira ngo zibe ziruhuka.

Bumwe mu bwoko bw'inyamaswa zagasozi zizwi nk'ibishuhe ziryamye mazi menshi ameze neza zishaka amafi matoya zarya kugira ngo zibashe kubona ubuzima zibeho na zo.

Inyamaswa z'agasozi ziri mu bwoko imbogo zizwiho kugira amahane no konera abaturage zihagaze ahantu hamwe hari ubwatsi butoshye bumeze neza cyane.